Ubuhinzi bwiganjemo ubw'imboga rwatsi nk'inyanya, intoryi ndetse na kaboti usanga bukenera yuko umuntu abuvura ubusimba agafata umuti wica ubusimba agatera ku nyanya.

Ubuhinzi bw'ibigori hirya no hino mu cyaro usanga buteye imbere aho usanga bifashisha imiti itandukanye yica ubusimba kugira ngo ibyo bigori bitange umusaruro uhagije bifashe ubihinga kwiteza imbere ndetse no guteza imbere umuryango we.

Ibigori ni igihingwa gikunze guhingwa ku buso bunini. Iyo iyo mbuto ihuye n'indwara usanga umuhinzi ajya kugura umuti yarangiza akaza agatera ibigori bye kugira ngo biticwa n'ubusimba.

Igihingwa ngandurarugo nk'ibigori, usanga iyo bikimara kumera hashize nk'ibyumweru bibiri bitangiye kurwara ubusimba, aho rero niho umuhinzi iyo abibonye, ahita ajya kugura umuti wica ubusimba akaza agatera ibigori.

Iyo uri umuhinzi, ugahinga ibihingwa byawe, bikarwara ubusimba , ujya muri farumasi, ukagurayo umuti, ukawuvanga n'amazi, ukawushyira mu ipombo, warangiza ugatera kuri ibyo bihingwa, birwaye, bigakira urusimba.

Umuceri ni igihingwa gihingwa ku buso bunini kandi ugahingwa ahantu mu bishanga haba hari amazi ahagije, iyo uhuye n'indwara y'ubusimba ushaka umuti ukawuvura.

Ibihingwa bihingwa ku buso bunini ahantu mu gishanga usanga bikunze kurwara indwara zitandukanye, ni ho rero umuhinzi ahita ajya kugura umuti akawushyira mu ipombo yarangiza akawutera akavura ibihingwa bye.

Iyo ibihingwa byarwaye indwara zitandukanye nk'ubusimba usanga umuhinzi ahita ajya aho bacuruza inyongeramusaruro akagura umuti wo kuza gutera muri ibyo bihingwa kugira ngo indwara birwaye ikire.

Mu biyaga uba usanga ari ho hakorerwa ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'amafi bugira umusaruro utandukanye, ni bwo amafi aribwa andi akagurishwa bigatuma ukora ubworozi bw'amafi yiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi n'ubworozi bubera ahantu hari amazi menshi cyane aho usanga abantu baragomeye ibidendezi iwabo kugira ngo bororeremo amafi, amafi akungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye.

Ahantu haba ibiyaga byinshi usanga hakorerwa ubworozi bw'amafi, amafi atanga ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse kandi akagira intungamubiri nyinshi.

Abantu begereye ibiyaga uba usanga bafite amahirwe n'inyungu kuko baroba amafi, ayo mafi bakayakoresha bayakuraho ibikomoka ku matungo nk'inyama cyangwa se bakayagurisha bakabona amafaranga.

Ahantu hari ibiyaga byakozwe n'abantu, usanga hejuru y'ibyo biyaga hubatse ibibuti by'inkwavu, aho iyo inkwavu zineye, amafi ahita arya uwo mwanda wazo.

Ahantu haba hari amazi menshi nko ku biyaga no ku nzuzi ,usanga abantu bahakorera ubworozi bw'amafi. Ubworozi bw'amafi bukagira umumaro cyane kuko butanga amafaranga.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bukunze gukorerwa ahantu hari amazi magari, muri ayo mazi magari harimo nk'ibiyaga, imigezi ndetse n'inzuzi, ni ubworozi bukunda gutanga umusaruro utubutse kuko ubukora ajyana ayo amafi ku isoko bakamuha amafaranga akiteza imbere.

Mu buryo bwo kuzamura umutungo ukomoka ku biba mu mazi nk'amafi ndetse n'izindi nyamaswa ziba mu mazi, usanga haraje uburyo butandukanye bwo kuroba butandukanye n'ubwakoreshwaga kera, aho umuntu afata ubwato yarangiza agafata n'indobani akajya mu kiyaga akaroba amafi.

Amafi ni inyamaswa zikurira mu mazi. Iyo ugerageje kuyakura mu mazi mu kuvuga yuko ahita abura ubuzima. Iby'ayo mafi ni ukwibera mu mazi, akavamo ari uko abantu bayarobye.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bubera ahantu hari amazi, mu biyaga ndetse no mu migezi cyane cyane usanga umuntu yarikoreye akayaga gatoya iwe mu rugo kugira ngo yororeremo amafi, amafi akungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Ubworozi bw'amafi bugira umusaruro uhagije kandi bugakorerwa ahantu hari amazi aho usanga abaturage baragomeye ibidendezi by'amazi barangiza bakororeramo amafi.

Abahinzi bahinga ibihingwa ngengabukungu nka kawa, usanga bafite amafaranga menshi cyane kuko iyo bamaze kuzisarura bazijyana ku ruganda ruzitunganya bakabahemba.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa byoherezwa mu mahanga, iyo yeze iba itukuye ifite ibara ritukuye ubundi umuhinzi wayo akayisoroma akayijyana ku ruganda, mu ruganda iyo bamaze kuyitunganya bayohereza mu mahanga.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu, urugero nk'ikawa bugira agaciro cyane bugatuma igihugu gitera imbere ndetse n'umuhinzi agira amafaranga.

Ibihingwa ngengabukungu harimo icyayi, ikawa ndetse n'ibireti, ibyo bihingwa iyo byeze byoherezwa mu mahanga, mu mahanga bakaduha amafaranga bigatuma twitezwa imbere.

Iyo ibihingwa ngengabukungu nka kawa, byahinzwe ahantu hari ubutaka bufumbiwe, bigaterwa umuti ku gihe bitanga umusaruro ushimishije, bikoherezwa mu mahanga, bigatuma umuhinzi yiteza imbere.

Ibihingwa ngengabukungu ni ibihingwa bihingwa ahantu ku buso bunini kandi ibyo bihingwa bikaba atari ibyo kurya ako kanya, muri ibyo twavugamo nk'icyayi.

Abantu iyo bari gusarura ibihingwa ngengabukungu, baba bishimye cyane kubera yuko baba bazi yuko nibabyohereza mu mahanga, biragurwa bakabaha amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Ibihingwa ngenga bukungu nk'icyayi usanga bihingwa ahantu hakonja kandi hari ubutaka bufumbiye, niyo mpamvu usanga icyayi gitoshye cyane kuko kiba kiri ahantu haboneka imvura nyinshi.

Ubuhinzi bw'uburo bugira umusaruro mwinshi cyane aho ababukora babonamo amafaranga bitewe y'uko baba babugurishije, barangiza kuyabona bakiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo tutibagiwe n'Igihugu muri rusange.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bihingwa ku butaka bw'u Rwanda, gihingwa ahantu hakunda kugwa imvura nyinshi cyane kugira ngo gitange umusaruro utubutse.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu mu Rwanda, usanga umumama uri kuyisoroma, ayijyana inyuma ku ruganda, yamara kuyijyanayo igatunganywa, hakavamo ikawa ariyo.

Abahinzi ba kawa bakirigita ifaranga umunsi ku munsi, cyane cyane mu kwezi kwa kane kubera ariho ikawa iba ifite umwero, bazisarurira mu gitebo barangiza bakazigemura ku ruganda, bagahabwa amafaranga maze bakiteza imbere.

Ahacururizwa imiti y'amatungo usanga harimo amoko atandukanye y'imiti, iyo miti iba iri mu bikarito aho inyuma haba handitseho izina ry'uwo muti.

Imiti ivura amatungo, uba usanga ifunze mu masashi menshi cyane, aho haba harimo imiti ivura inka ndetse n'ayandi matungo yororwa.

Amatungo magufi n'amaremare yororerwa mu rugo akunze kwatakwa n'indwara. Ibyorezo by'indwara hari imiti ibivura, niyo mpamvu umworozi ajya, mu mavuriro akaguramo iyo miti y'amatungo.

Imiti y'amatungo iboneka hirya no hino, iba iri mu macupa ayo macupa afunze neza kandi hariho n'icyapa kigaragaza icyo uwo muti uvura.

Hari imiti itandukanye abantu bakoresha iyo bari kuvura amatungo yabo, abantu b'aborozi borora amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare rimwe na rimwe hari igihe arwara bagakenera kujya kugura iyo miti.

Iyo winjiye mu mazu acururizwamo imiti ivura amatungo, usanga harimo ibikarito by'amoko atandukanye, buri gikarito inyuma haba handitseho amajambo y'uko uwo muti witwa ndetse n'indwara uvura.

Imiti y'amatungo uba usanga ari imiti iri mu macupa, ayo macupa akaba yanditseho igihe iyo miti yakorewe, ndetse n'igihe iyo miti izatera agaciro.

Amacupa abamo umuti uvura amatungo usanga aba afunze neza cyane ufungishije imifuniko, amasashe kandi inyuma y'ayo macupa haba hashushanyijeho amatungo uwo muti uvura nk'urugero ugasanga hashushanyijeho nk'inka bigahita bikubwira y'uko uwo umuti uvura inka.

Igihe k'isarura iyo kigeze umuhinzi ajya mu murima we yarangiza agasarura ibyo aba yarahinze, urugero nk'ibigori. Nyuma yo gusarura atunda ifumbire akayishyira aho yasaruye kugira ngo ahahinge ibindi.

Ibigori iyo bihinzwe ahantu hari ubutaka bwera, bigafumbirwa, bigaterwa ku murongo, bigira umusaruro uhagije, aho usanga igiti kimwe cy'ikigori hariho ibigori nka bibiri, wasanga nko ku murima wose, ukareba ukabona hari umusaruro uhagije.

Mu gikorwa cy'umuganda usanga abantu bari gutera ibiti, ibiti ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu kuko biyungurura umwuka duhumeka kandi bimwe na bimwe biduha imbuto turya.

Ubuhinzi butanga amafaranga, ni igikorwa kizamura ubukungu kugikora ndetse no ku Gihugu muri rusange, kuko umusaruro baba babonye iyo bawugurishije batanga umusoro w'Igihugu kikagira inyungu.

Ubworozi bw'amatungo magufi, twavugamo nk'ubworozi bw'inkoko, inkoko zitanga umusaruro utubutse, aho zitanga amagi, zigatanga inyama, ndetse zigatanga n'amafaranga ku bukora agatanga umisoro.

Kugira ngo ube umuhinzi w'umunyamwuga, bisaba yuko uba ufite ibikoresho bitandukanye, nk'ibyo bikoresho twavugamo nk'isuka iba izagufasha guhinga ndetse tukavugamo n'ubutaka uzajya uhingamo.

Mu bihingwa ngandurarugo dusangamo ibishyimbo. Ibishyimbo ni ibihingwa bitanga umusaruro mwinshi cyane iyo byahinzwe ahantu hari ubutaka bufumbiye neza.

Ibihingwa by'ibirayi ni ibihingwa bihingwa ahantu hakunze kuba ubutaka buseseka kandi ubutaka bwifitemo ifumbire, iyo biramutse bihinzwe ahantu hatari ubutaka burimo ifumbire, usanga bitera.

Mu bishanga hakunda guhingwa ibihingwa bitandukanye, muri ibyo bihingwa harimo nk'amateke, imiceri ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye bikunda guhingwa ahantu hari amazi.

Ubuhinzi bw'ibigori bugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ibigori nibyo bivamo impungura abantu barya, hakavamo ifu ikorwamo igikoma, ndetse hakavamo n'ifu ikorwamo akawunga iyo byanyujijwe mu nganda.

Ibihingwa ngandurarugo bigira uruhare runini cyane mu kongera imbaraga z'ababirya, ibyo bihingwa harimo: ibirayi ndetse n'ibinyamafufu, ibirayi byera ahantu hari ubutaka buseseka kandi bufite ifu.

Mu moko y'ibihingwa ngandurarugo abantu bakunze guhinga, usanga higanjemo ibishyiyimbo, ibishyimbo rero ni ibihingwa bikunda kugira umusaruro cyane, bigahingwa ndetse n'ahantu hari ubutaka bufugiyeye cyane.

Ubuhinzi bw'ikawa n'ubuhinzi bukorwa, aho umusaruro woherezwa mu nganda, wamara gutunganywa ukazoherezwa mu mahanga, amahanga nayo agatanga amafaranga, umuhinzi akiteza imbere.

Ubuhinzi bukorerwa ahantu hari ubutaka bufumbiye kandi bwiza. Iyo abahinzi bamaze guhinga usanga hakurikiraho igihe cyo kubagara. Nyuma yo kubagara bagasarura.

Mu biribwa birinda indwara dusangamo imbuto n'imboga mu bwoko bw'imbuto dushobora kuvugamo amapapayi, indimu ndetse n'ibindi, naho mu mboga tukavugamo nka karoti, tukavugamo pavuro. tukavugamo ndetse n'imiteja.

Ubuhinzi bw'umuceri, ni ubuhinzi bukunda gukorerwa, ahantu mu bibaya by'ibishanga, kuko ariho, umuceri ukunda haba hari amazi atuma wera neza, ugatanga umusaruro uhagije ujya ku isoko ndetse no mu nganda.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni ubuhinzi bukunda kubera ahantu hari ubutaka bufumbiye. Ni ubuhinzi busaba yuko utera igihingwa kimwe nk'intoryi. Wamara kugitera ukakitaho, ukanagisasira kugira ngo gitange umusaruro utubutse.

Amashyamba kimeza adufitiye umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho ayungurura umwuka duhumeka. Aya mashyamba aba afite uruhare runini mu kubaho kwa muntu, aho umuntu ayacana igihe akeneye.

Mu rwego rwo kwita kumashyamba abantu babuzwa kuyatema buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ahubwo bagashishikarizwa gutera ibiti, ku buryo n'iyo utemye igiti kimwe uba ugomba gutera ibiti bitatu.

Ibidukikije bigizwe n'ibimera ndetse n'amashyamba. Amashyamba rero agomba kwitabwaho cyane ubwo abantu biba bibujijwe yuko batema ibiti bashaka gukuramo ibicanwa, ahubwo aho kubitema bagategekwa kubitera.

Amashyamba afite uruhare runini mu mibereho ya muntu kuko niyo yungurura umwuka ahumeka. Biba byiza rero iyo amashyamba abungabunzwe kuko afite uruhare runini mu buzima bw'abantu.

Hafi y'ibiyaga, uba usanga hakikijwe n'amashyamba ariko nanone hari n'ibindi bihingwa biba bihahinze, urugero nk'amasaka. Ayo mashyamba rero aba akwiriye kwitabwaho kuko ariyo ayungurura umwuka duhumeka.

Amashyamba kimeza afite uruhare runini mu kubaho kwa muntu. Amashyamba adufasha guhumeka neza kuko afata umwuka mubi dusohora akawuhinduramo umwuka umuntu.

Mu rwego rwo kwita ku bidukikije ndetse n'amashyamba muri rusange, hajeho gahunda yo gufata ahantu hari amashyamba bakabuza abantu kujya gutemamo ibiti, cyangwa se gukoreramo ubuhigi.

Ubuhinzi bw'imboga ni ubuhinzi bukunda kuba ahantu hari ubutaka bufumbiye, izo mboga zigira umumaro cyane mu buzima bwa muntu, kuko ziba mu bihingwa birinda indwara.

Iyo bakora ubuhinzi bw'inyanya bwa kijyambere batera inyanya ku murongo zamara gukura bakazishingirira ubundi zikazana umusaruro uhagije umuhinzi akajya aza kuzisarura anyuze mu nzira aba yarashyize hagati y'aho zihinze.

Abantu bakora ubuhinzi bw'imbuto n'imboga usanga bibanda mu guhinga ibihingwa bitandukanye. Muri ibyo bihingwa twavugamo nka: karoti, imiteja, intoryi, pavuro, inyanya ndetse n'ibindi. Naho mu buhinzi bw'imbuto tugasangamo nk'amatunda.

Imyembe iba mu bihingwa by'imbuto. Iyo umuntu ariye imyembe aba ariye imbuto nziza cyane, kuko imyembe iri mubirinda indwara .

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga usanga ari ubuhinzi bushimisha ababukora kandi bakabona amafaranga yo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, bakurikirana amakuru rero kuri terefone bareba ukuntu bukorwa mu buryo bwa kijyambere.

Ikoranabuhanga ryarazamutse cyane. Aho usanga hari imashini zitandukanye ziba zikora mu kuvomerera imyaka y'abaturage. Igihe bayihinze bakaba bageze mu gihe k'izuba ryinshi.

Iyo wahinze mu gihe k'izuba kugira ngo imyaka yawe imere neza ikomeze itoshye bigusaba yuko uvomerera, ukoresha ubuhanga butandukanye aho ukura amazi mu mariba ukajya uyahazana uyanyujije mu bitembo ukavomera imyaka.

Iyo abahinzi bigeze mu gihe k'izuba ryinshi, usanga batangira kuvomerera imyaka yabo hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye bibafasha kunyanyagiza amazi muri iyo myaka kugira ngo ikomeze gukura neza izatange n'umusaruro.

Ubuhinzi bwa kijyambere ntabwo bugendera guhinga ugendeye ku bihe by'ikirere kuko muri ubwo buhinzi no mu gihe cy'izuba bukorwa hagakoreshwa uburyo bwo kuvomerera imyaka.

Abantu bahinga mu bishanga usanga barakoze imiyoboro y'amazi, iyobora amazi mu muceri ndetse no mu bindi bihingwa bikunze guhingwa mu bishanga kugira ngo ibyo bihingwa bitange umusaruro uhagije.

Hari imashini za kijyambere zivomera imyaka aho umuntu afata iyo mashini akayishyira ahantu yahinze imyaka ikajya iyivomerera atiriwe ajya kwikorera amazi mu biziba cyangwa se mu nzuzi n'ibiyaga.

Hari ibikoresho byinshi abantu bakoresha iyo bari kuvomerera imyaka, ibyo bikoresho twavugamo nka rozwari, ni ngombwa rero y'uko umuntu wahinze imyaka, ayivomerera kugira ngo iticwa n'izuba.

Iyo umuhinzi yahinze imyaka ye bikagera mu gihe k'iki usanga agomba kuvomerera iyo myaka, akayivomerera akoresheje amazi aho aba yaragomeye y'ikidendezi, akajya adaha amazi ayajugunya mu myaka ye kugira ngo imere neza.

Mu buhinzi bwa kijyambere usanga abantu, bahinga aho imbuto bazitera ku murongo. Ibi ngibi bibafasha iyo bari kuvomerera kuko baba barashyizemo utuyira tw'ahantu bazajya batambuka, banyura igihe bari kuvomerera.

Mu buryo bwo kuvomerera imyaka bisaba yuko ugomera ikidendezi cy'amazi menshi warangiza ukifashisha ibikoresho bimwe na bimwe udaha ayo mazi uyanyanyagiza muri ibyo bihingwa uba warahinze, cyane cyane bikorwa mu gihe k'izuba.

Abantu bahinga ibihingwa ku buso bunini usanga mu gihe k'izuba bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bari kuvomerera mu gihe k'izuba urugero twavuga nk'amamashini avomera.

Mu buhinzi buteye imbere cyane cyane ubw'imbuto n'imboga hakorwa ikintu bita kuvomerera, ibyo bintu byo kuvomerera bigakoreshwa n'imashini zabugenewe zinyanyagiza amazi muri ibyo bihingwa cyangwa se hagakoreshwa n'ibindi bikoresho byabugenewe.

Ibice by'ububurasirazuba usanga akenshi byiganjemo inzuri z'amatungo aho abaturage usanga bafite inka zitari nkeya zibera aho ngaho mu nzuri zikahabona ubwatsi bwo kurya ndetse haba hariyo n'ibibumbiro zinyweramo amazi.

Iyo uhinze mu gihe cyi'izuba, bisaba yuko uhinga ahantu mu gishanga ku buryo uzabona amazi bikoroheye yo kuhirira cyangwa se kuvomerera, kugirango iyo myaka yawe ikomeze ikure neza.

Iyo uri umuhinzi mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe k'impeshyi ushaka uburyo ugomeza guhinga, niyo mpamvu hari umushinga waje wo kugomera amazi ayo mazi akazafasha umuhinzi mu kuvomerera imyaka mu gihe k'izuba.

Iyo ugeze mu bice by'imisozi, usanga mu ndiba y'iyo misozi aho itangiriye, hari ibibaya ndetse n'imibande, iyo mibande abantu baba bayihingamo ibihingwa bitandukanye.

Ahantu hari imisozi miremire, biba byiza iyo haciwe amaterasi cyangwa se hagaterwa amashyamba ndetse n'ibindi biti bishobora gutuma hadakushumuka igihe imvura iguye ngo biteze amasuri.

Igice kinini cy'u Rwanda kigizwe n'imisozi miremire, iyo utembereye intara y'ububurasirazuba, usanga hari ibibaya ariko ugasanga ahandi hari imisozi.

Mu bice by'icyaro usanga abantu batuye mu misozi, iyo misozi ikaba yaribasiwe n'inkangu ariko ntibahave kuko baba bahakorera ubuhinzi bw'urutoki, ubuhinzi bw'imboga ndetse n'ibindi.

Abworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro uhagije, abaturage bakora ubworozi bw'inkoko usanga bavuga yuko babona amafaranga kubera amagi bagurisha ndetse ayandi bakayagaburira abana babo bagakura neza mu myitwarire myiza ndetse no mu gihagararo.

Ubworozi bw'amatungo bumaze gutera imbere, aho usanga ingurube zororerwa mu biraro kandi bakazigurira ibyo kurya kuko iyo bahira ibyatsi byinshi uba usanga babangamira ibidukikije.

Mu bworozi bw'amatungo magufi usangamo n'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'inkoko bugira umumaro munini kugira ngo abantu babeho kuko inkoko zitera amagi, amagi abantu bakayarya abandi akabaha n'amafaranga.

Kororera mu biraro ni igikorwa cyiza gituma inka idatera isuri cyangwa se ngo itume hari izindi ngaruka ibidukikije bihura na byo kandi bituma tubona ifumbire dukoresha mu buhinzi.

Inka za kizungu usanga zikunzwe kororerwa ahantu hari ubwatsi butoshye cyane cyangwa se mu nzuri, izo nka ziba zitanga umukamo utubutse kuko ziba zabonye n'ubwatsi buhagije.

Ubworozi bw'amatungo aho abantu borora amatungo yaba magufi cyangwa se amanini bakayororera mu biraro, muri ayo matungo twavugamo ingurube ndetse n'inka n'izindi nyamanswa zitandukanye zororerwa mu rugo.

Ubworozi bwa kijyambere usanga ingurube ziri mu biraro byubatse neza biteye sima ndetse hakabamo n'ibiryo by'ingurube kuko akenshi uba usanga kubona ubwatsi bwazo bitoroshye niyo mpamvu bazigurira.

Ubworozi bw'inka bukorerwa ahantu hari ubutaka bunini kandi bwagutse, aho haba hari inzuri inka zibamo, zirishamo ubwatsi, zamara kuburya zikaryama na mu gitondo bikaba uko.

Ubworozi bwa kijyambere bwiganjemo ubw'amatungo magufi nk'inkoko bugira umusaruro uhagije aho ababukora babona amagi yo kurya ndetse bakagurisha n'izo nkoko bakabona amafaranga bakiteza imbere ndetse bagateza n'igihugu imbere muri rusange.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro uhagije, kuko inkoko zorowe muri ubwo buryo bwa kijyambere zitanga amagi menshi kandi zikaba zitanga n’inyama, kuko zikura vuba.

Ubworozi bw'inka z'inyambo ni ubworozi busigaye hakeya mu Rwanda, iyo umuntu yoroye inyambo biba bisaba yuko ayikingiza kugira ngo itatakwa n'indwara harimo nk'ikibagarira cyangwa se muryamo.

Ubworozi bw'inka z'inyambo, butanga umukamo utubutse, nibwo abantu usanga batemba itoto kubera yuko bakamye inka bakanywa amata, ayandi bakajya kuyagurisha ku makusanyirizo.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere butanga umusaruro utubutse, aho usanga zitanga amagi, zigatanga ifumbire ndetse zigatanga n'amafaranga ukora ubwo bworozi akiteza imbere ndetse agateza n'imbere igihugu ke.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi usanga butanga umusaruro uhagije k'ubukora, aho ubukora abona amafaranga binyuze mu kugurisha amwe mu matungo aba yoroye cyangwa se akayabaga, bigatuma agira ubuzima bwiza.

Ubworozi bwa kijyambere bw'imishwi y'inkoko buri kugenda butera imbere, aho ababukora bagenda bakajya kugura ibiryo izo nkoko zirya kugira ngo zikure nizimamara gukura bazigurishe.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ubworozi butanga umusaruro uhagije, urugero twavuga nk'ubworozi bw'inkoko, inkoko zitanga amafaranga biturutse mu magi ndetse zigatanga n'inyama ku ubworora abona amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo nk'inka usanga butanga umukamo utubutse, aho umushumba akama inka ye yarangiza amata akayanywa agasagurira n'amakusanyirizo ariho akura amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Imbuto z'ibimera baterera zirimo amoko atandukanye; hari ibishyimbo, hari amageri, hari ibihaza cyangwa se inzuzi, hari soya hakaba n'ibindi.

Ubunyobwa bwera ahantu haseseka kandi ahantu h'ikibaya. Aho hantu hakunze kugira umusaruro munini w'ubunyobwa, uwo musaruro ugafasha abantu mu iterambere.

I Nyagatare higanjeyo ubuhinzi bw'ibigori, iyo babyejeje usanga umusaruro wabo bawushyira mu mufuka, bakawohereza mu mahanga ndetse ibisigaye bakabitera, gusa bakibuka no kujya mu nyongeramusaruro kugira ngo babone ifumbire yo gukoresha.

Amatungo yororerwa mu rugo rimwe na rimwe akunda guhura n'ibyorezo by'indwara abaganga b'amatungo bakaza kuvura izo ndwara ayo matungo aba afite.

Abacuruza ibikomoka ku matungo nk'amagi usanga babona amafaranga ahagije kuko amagi akenerwa mu buzima bwa buri munsi, usanga umuntu aba ayarya buri munsi.

Mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare usanga hari inzuri. Izo nzuri ziba zirimo inka kandi izo nka nizo zitanga umukamo utubutse, kuko ziba zabonye ibyatsi zirya zimeze neza, ubwo rero akazi ka ba veterineri mu kuzitaho bakanazivura.

Abavuzi b'amatungo ,usanga bagenda hirya no hino mu karere ka Nyagatare, bari kujya gukingira inka kugira ngo zitazatakwa n'icyorezo cy'indwara.

Ni uruhare rw'abavuzi b'amatungo kuzenguruka mu baturage bagenda barebamo inka zirwaye bakazivura ndetse n'izindi bakazikingira kugira ngo zitatakwa n'icyorezo.

Abavuzi b'amatungo iyo bumvise ahantu hari itungo ryarwaye bajyayo bakarivura, aho baba bambaye amasashi mu ntoki ameze nka ga barangiza bakavura iryo tungo rigakira.

Umuvuzi w'amatungo agomba kuba yambaye imyenda y'akazi, nk'agapfukamunwa itabureya ndetse n'amaga iyo ari gutunganya imiti aribuze gutera amatungo.

Abaganga b'amatungo, bagira imirimo itandukanye yihariye, nko gukingira inka, kugira ngo zitarwara indwara zitandukanye, urugero nk'umwuma ndetse n'izindi ndwara zikunze gufata amatungo.

Inka z'inyambo ziracyari hirya no hino mu Gihugu ariko zigenda zigabanyuka. Gusa hari gahunda yo kuzikingira, aho abaganga b'amatungo bazitera inshinge kugira ngo zitatakwa n'indwara zitandukanye.

Iyo tugeze mu mashyamba nka pariki y'Akagera dusanga harimo inyamaswa nk'inzovu, inzovu ni inyamaswa nini cyane, iba ifite umutonzi munini kandi irya ibyatsi.

Inyamaswa ziba mu gasozi, usanga higanjemo n'ibiguruka, muri ibyo biguruka twavugamo nk'inyoni bita ibishuhe, zikunda kujya mu kiyaga kuvanamo inyamaswa ziba ziba mu mazi kugira ngo zizirye.

Mu bwoko bw'ibiguruka haba harimo n'ubwoko bw'inyoni, buba hafi y'ibiyaga kugira ngo burye amafi aba muri ibyo biyaga ndetse n'ibindi biba mu biyaga. Ubwo bwoko bw'inyoni buba bwitwa ibishuhe.

Iyo tugiye mu mashyamba dusangayo ubwoko bw'ibiguruka harimo n'inyoni, izo nyoni zibera mu ishyamba gusa nta muntu ujya azorora mu rugo, hari n'izindi nyamanswa rero na zo zibera mu ishyamba nk'intare n'izindi.

Iyo tugiye kureba inyamaswa ziba mu mashyamba, dusanga hari inyamaswa zitandukanye, usangamo ingwe, dugasangamo n'ibisamagwe, izo nyamaswa ziba zifitiye Igihugu akamaro, kuko iyo bakerarugendo baje kuzisura hari amafaranga baha Igihugu.

Inyamanswa ziba mu mashyamba nk'inzovu zituma habaho iterambere ry'ubukerarugendo, aho abakerarugendo baturuka mu mahanga bakaza gusura amapariki arimo nka pariki y'Akagera baje kureba izo nyamanswa nziza zibaho.

Isha n' inyamaswa ifite imiterere nk'iyihene, ibifite amahembe maremare cyane. Mu Rwanda ikunze kuba mu bice by'Iburarasirazuba by'umwihariko mu karere ka Nyagatare. Aho tuyisanga muri pariki y'Akagera ndetse n'izindi.

Mu mashyamba habayo inyamaswa z'amoko atandukanye. Hari inyamaswa ziba zifite amahembe, hari inyamaswa zirya inyama gusa, hari n'inyamaswa zirya ibyatsi.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni inyamaswa usanga abantu batororera mu rugo. Muri izo nyamaswa twavugamo nk'impara, imparage, isha, intare ndetse n'izindi usanga zikunze kwibera mu mapariki no mu mashyamba.

Iyo ugeze mu ishyamba kimeza ndetse no mu mapariki atandukanye usangamo inyamaswa nk'impyisi, iyo mpyisi ni inyamaswa ikunda kurya inyamaswa zindi zipfushije, ni ukuvuga yuko iba ifite amaguru y'imbere maremare asumba ay'inyuma.